Icyapa kiriho abantu babiri, umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore, uw'igitsina gore afite amafaranga menshi mu biganza bye ndetse uw'umugabo afite urufunguzo rw'ibinyabiziga mu kiganza cye.

Abantu babiri umwe wambaye umwenda w'umweru ufite uruhu rwera ndetse undi wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hirya yabo hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kitwa mudasobwa.

Amacupa maremare y'amavuta ndetse n'imibavu iri mu duseke twayo, byose biri mu mirongo irambaraye.

Abantu babiri batonze umurongo, uri imbere wambaye imyenda y'umukara, umuri inyuma yambaye umwenda w'ikanzu n'amabara y'umukara ndetse n'umweru hirya y'abo hari undi muntu wambaye umwenda w'umukara ndetse atonze umurongo n'imbere harimo undi muntu wambaye imyenda y'imikara.

Amafaranga menshi hariho umugabo w’umunyamahanga ndetse no mu rurimi rw’umunyamahanga. Amwe ariho ijana, ahandi hariho makumyabiri, ahandi icumi, ahandi mirongo itanu. Imwe mu mabara agize ijana n’umutuku ndetse n’umweru, ahandi hari n’icyatsi ndetse n’andi mabara.

Ifaranga rimwe hagaragara ishusho y'imbere ndetse n'ishusho y'inyuma y'iryo faranga, iryo faranga rifite umubare wa rimwe hari n'indi mibare iri ku ruhande iri mu ibara ry'umutuku ndetse iryo faranga ririho abantu batatu baziritse amaboko.

Ahantu barira hari intebe nyinshi zizengurutse ameza aho hantu hafite ibara ry'umweru ndetse inyuma y'izo ntebe hari utundi dutebe dutoya twicaraho.

Uruganiro runini cyane, rufitemo intebe z'uruganiriro zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara.

Abantu barindwi bari ahantu hamwe, abantu batatu muri abo barindwi bicaye abandi bane barahagaze, umwe uri imbere ya mudasobwa, afite ikaramu mu kiganza cye, iruhande rwe hari ikinyamakuru ndetse abo bantu bose bahuriye ku kintu uko ari batandatu, bafite ikaramu ndetse n'gitabo mu biganza byabo.

Ifuso ihetse kontineri byose bisa umuhondo byanditse handitseho ijambo iposita ryanditse amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'umuhondo, imodoka ihagaze nk'amamodoka yemerewe guhagarara, imbere y'imodoka hari inzu ndende.

Inzu y'umweru ifite inkingi, izo nkingi zifite umuzenguruko w'umuhondo hejuru yazo ndetse imbere y'iyo nzu hari imodoka iri mu ibara ritukura, hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'amahanga, hejuru hariho akadarapo kari mu ibara umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi no hasi andi mazu.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu babiri bateganye; umwe w'umuguzi undi ni umucuruzi. Inzu yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako igeretse inshuro enye, ifite ibyapa bitatu ndetse muri iyo nyubako hagiye harimo abantu benshi, ku nyubako yo hasi harimo imyenda ndetse ibyo byapa bigiye biri kuri buri nyubako uko zigiye zigerekeranyije igiye yerekana icyo iyo nyubako ikora.

Igikoresho cyikoranabuhanga cyitwa mudasobwa, kiri imbere y'umuntu, wambaye umupira wa oranje ndetse inyuma y'igikoresho cy'ikoranabuhanga, hari umukobwa urimo guseka.